Umwana uri guseka warambuye ibiganza bye byombi kuri robine iri kuvamo amazi, hanyuma hari amajerekani ari inyuma yiwe asa umuhondo n'ubururu.

Abantu batatu; babiri muribo barasutamye bari kunywa amazi ku iriba iruhande rwabo hari amajerekani abiri n'undi umwe uhagaze hejuru yabo uri kubafungurira ayo mazi wambaye agapfukamunwa ufite umusatsi mwinshi.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, bafite udupapuro tw'icyatsi mu ntoki n'undi umwe wambaye itaburiya y'ubururu n'akantu mu mutwe, bose bari kwandika mu bitabo by'abarwayi.

Umukobwa wambaye agapira k'iroza n'ijipo y'umukara usutamye imbere y'ivomero hasi hari amabase abiri ateretsemo injerekani iri kujyamo amazi.

Abantu benshi bari mu nama bakikije ameza imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi ndetse hagati hariyo imeza harimo akandi kameza gato gasumero kateretseho udutebe ku gikuta hamanitseho ifoto ya perezida paul kagame i amadirishya yabo ni ibirahure afata n uudusize n'utuntundi dusabururu ndetse n'imiryango isa na shokora na ekara.

Abantu barimo abagore ndetse n'abagabo bahagaze imbere y'inyubako iberamo inama, bafite icyapa iruhande rwabo gisa ubururu kiriho ifoto y'umwana isa umweru ndetse cyandikishijwe n'amagambo y'umweru.

Umuhanzi umenyerewe mu ndirimbo zo kuramya ndetse no gushima Imana witwa Israel Mbonyi, afashe umwana mu kaboko yamuhagarikije ku cyuma gipima ibiro, bari kureba ibiro uwo mwana afite.

Abana benshi bahagaze mu kibaya kirimo ibyatsi ndetse n'akadendezi gato karimo amazi n'undi mwana umwe uhagaze abitaruye yambaye impuzankano z'ishuri zisa umuhondo n'ubururu afite amacupa abiri arimo amazi ari guseka.

Abantu batanu harimo abagore bane n'umugabo umwe, bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo y'umweru yitwa shora neza, bose bambaye utugofero tw'umweru, bari guseka.

Abantu benshi barimo abana bambaye impuzankano basa nk'aho bavuye kwiga, bari inyuma y'ivomero hari akana gatoya ndetse n'undi mukuru uri kugafasha kuvoma, hari akajerekani gato k'umuhondo ndetse hari n'umupira uri kuyobora ayo mazi ayajyana mu kajerekani gato k'uwo mwana.

Umubyeyi uri kuvoma ku iriba afite injerekani is'umuhondo iriba rifite agafunguzo gasa umutuku n'umupira ucamo amazi ujya mu njerekani.

Abagore bane bari hirya bari kureba ahantu hamwe n'undi mugore umwe uhagaze ku ivomero, imbere ye hateretse amajerekani menshi ari kujyamo amazi aturuka muri iryo vomeraro.

Abantu bari mu nama iri kubera i Kigali ku itariki makumyabiri z'ukwacumi, bibiri na makumyabiri na kane ishinzwe kurwanya icyorezo cyitwa maribugu babiri bicaye imbere ndetse hari n'abandi bantu benshi bicaye hasi bakurikiranye icyo kiganiro abantu babiri bari gutanga.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe ubuzima ku isi kiri mu mabara y'umweru, kiriho inzoka iri ku nkoni ndetse n'ibindi bintu bimeze nk'amashami bihakikije bisa ubururu ndetse biri ku gipapuro gisa umweru.

Umugore usutamye imbere y'ivomero, afite injerekani isa umuhondo iri kujyamo amazi, inyuma ye hanitse imyenda myinshi itandukanye arasa nkaho ari guseka.

Abaganga babiri umwe muri bo ari gupima umusaza wicaye ku ntebe areba mu kanwa akoresheje agatoroshi kabugenewe, undi mugore ari hirya ye ari kureba ibintu uwo wundi ari gukora.

Abagore bane, bari ku ivomero, bari kumanura banazamura icyuma kivomo amazi, umwe muri bo ahagaze imbere y'ivomero, afite indobo ari kuvomeramo amazi.

Umwana uri mu rugo ufite icupa ririmo amazi mu ntoki, arikubise ku gikuta amazi arameneka. Yambaye agakanzu k'igitenge karimo amabara ya shokora, umweru ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi bicaye hanze imbere y'ivuriro, harimo abana, abagore ndetse n'abagabo bari kugana ivuriro, hari bamwe bahagaze imbere y'umuganga kandi bose bafite ibipapuro mu ntoki.

Abantu babiri umugabo n'umugore bari ku iriba umugabo ari gukora igare hirya y'iriba, umugore ari mu iriba ari gukoresha injerekani adaha amazi muri iryo riba, iryo riba kandi rizengurutswe n'ubusitani bunini.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo bahagaze kuri sima isa umutuku.

Umubyeyi uteruye akana gatoya kari kubabara cyane, n'umuganga uri kuvura ako kana. Ako kana basa nk'aho bari kugatera urushinge mu mutwe, banagashyizeho n'igipfuko.

Abagore benshi bari mu nyubako bigishirizwamo abana batoya umwe ari imbere yabo ari kwifotoza abandi bari hirya bazengurutse imeza ku gikuta hashushanyijeho udushushanyo twinshi tw'abana.

Abantu babiri harimo umugabo umwe ndetse n'akana bahagaze basa nk'aho bari imbere y'abandi benshi cyane bicaye, hari uduti tubiri turi inyuma yabo, turiho umugozi ndetse n'agapirizo kamwe n'umugore uhagaze inyuma imbere y'igiti.

Abagore batatu, umwe ari gukingirwa yambaye agapira k'umweru, abandi babiri, umwe amuhagaze inyuma undi ni we uri kumukingira, uwo mugore bari gukingira asa naho yababaye cyane.

Abagore bane harimo batatu baje kwivuza ndetse n'umuganga umwe wambaye itaburiya y'umweru y'abaganga ari kubapima ngo arebe umuvuduko wabo w'amaraso ukuntu umeze.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya bombi baseka umwe muri bo afite telefoni mu ntoki undi afite igitabo mu ntoki, hanyuma yabo hari icyapa kigaragaza yuko biyemeje kujya kurwanya mabaga kandi bakayitsinda.

Abantu benshi bari ku ivomero bazanye ibintu byo kuvomeramo; harimo amajerekani ndetse n'amabase, harimo abakobwa ndetse n'abagabo, harimo ndetse n'abicaye ku bintu byabo bazanye bari buvomeshe.

Abantu benshi bari mu ifoto, harimo utwana duto, ndetse n'umubyeyi, wicaye imbere yabo wambaye amarinete, ndetse n'imyenda irimo amabara y'umuhondo, ndetse n'umukara, n'ibitenge bisa ubururu, birimo n'umuhondo, n'umutuku wijimye, ndetse n'utwana tumukikije, twambaye imyenda y'umutuku, ubururu, ndetse n'umweru turi guseka.

Ababyeyi benshi bahagaze imbere yinyubako iriho amategura hejuru ifite amadirishya abiri abagore bambaye ibitenge bahagaze hamwe bari kwifotoza.

Abana benshi bambaye impuzankano ,bari ahantu hari ivomeraro ry'amazi bafunguye amazi ari kumeneka bari kwerekana ko bamaze gukaraba intoki bambaye impuzankano zisa kake.

Abana benshi bafite ibitabo mu ntoki, iruhande rwabo bahagaze umugabo wambaye amarinete, ufite igitabo mu ntoki, wambaye isaha, inyuma yabo hari igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo.

Umwana usutamye mu iriba afashe injerekani ari kuvomesha amazi yo mu iriba, yambaye agasengeri k'amabara n'ikabutura y'amabara, hirya ye hari ibyatsi biteye muri iryo riba.

Umuhanzi uzwi mu ndirimbo zo kuramya imana Israel Mbonyi, yagiye ahantu hari ababyeyi ndetse n'abana, ari gufata umwana amukirigita amusetsa, hirya ye hari abandi babyeyi nabo bafite abana.

Abantu bari mu nama bicaye bicaye bakikije ameza bicaye ku ntebe z'umukara, bafite amazi yo kunywa ndetse n'indangururamajwi imbere yabo.

Ibitaro bivurirwamo ababyeyi, bifite intebe zisa ubururu n'icyuma kireba ukuntu inyama zo mu nda zimeze cyangwa uburyo umwana utwite ameze, gisa umweru hariho n'amateleviziyo ku rukuta hejuru.

Abana bane bahagaze imbere, barimo batatu b'abakobwa n'umwe w'umuhungu, bari kwerekana agakinamico, iruhande rwabo hateretse ibipapuro binini, biri ku ruhande bigaragaza yuko ari ku munsi wahariwe umwana w'umunyafurik.a

Abantu batatu, umuganga uri gutera akana agashinge, ako kana gateruwe na mama wako kari kureba imbere karakanuye cyane ndetse kanasamye ho gatoya, kambaye akantu k'umweru ndetse na mama wako yambaye imyenda y'ibitenge, muganga we yambaye itaburiya y'umweru y'abaganga.

Abantu icyenda bicaye ku ntebe eshatu ziri hanze y'ivuriro rya Gira ubuzima iruhande rwabo hari imodoka hari n'umugabo uri kuyireba bafite bose impapuro mu ntoki harimo n'umwe mubantu bashinzwe umutekano ubicayemo hagati.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bicaye mu cyumba cy'inama bari gutumbira ahantu hamwe. Imbere yabo hari imeza y'umuhondo, hari umuryango umwe ndetse n'idirishya.

Abantu babiri bari ku ivomero, bafite amajerekani abiri asa umuhondo, ni umugore ndetse n'umugabo, bombi bari kuvoma, umugore yambaye igitambaro mu mutwe, umupira w'ubururu ndetse n'igitenge, umugabo yambaye ishati ikozwe mu gitenge.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo bahagaze, imbere y'ikigo hari icyapa kiri iruhande rwabo kirimo amabara y'ubururu, cyandikishijwe umweru ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bahagaze ku ivuriro ryitwa gira ubuzima risize amarangi y'ubururu bahagaze mu byatsi imbere y'ivuriro bari kwifotoza.

Abagore batatu n'umugabo umwe bicaye bareba imbere, muri bo harimo umugore umwe uzamuye urutoki bisa nkaho ari kuvuga ibintu, yambaye agapfukamunwa ku kaboko.

Umugabo muremure w'igikara cyane usa nabi cyane uhagaze mumuhanda afite umuneke inyuma ye hari moto ndetse n'imodoka akikijwe n'ibiti byinshi yambaye nabi imyenda yacitse.

Abana, abagore ndetse n'abagabo, bafashe idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ririmo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi n'izuba mu ibara ry'ubururu, bahagaze bari kureba ahantu hamwe.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse na oranje, kiriho umukobwa uri guseka, cyanditseho amagambo agaragaza ko buri muntu wese afite uburenganzira, bwo kwita ku... bwo kwitabwaho kugira ngo agire ubuzima bwiza mu mutwe we.

Umugabo w'igikara cyane, uri kurira amaso yombi, hari n'ibimyira biri guturuka mu mazuru ye, yambaye amaherena n'umupira w'icyatsi.

Umwana uhagaze imbere y'abandi bantu benshi cyane ari kurira yikoreye amaboko, iruhande rwe hari umugore ufite ibiti bibiri mu ntoki yicaye ahantu hamwe ameze nk'impunzi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara n'ishati irimo umukara n'umuhondo, uhagaze imbere y'ivuriro rya Karayesi rivura abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, risize amabara ya oranje, hari n'ibiti bisa icyatsi iruhande rw'iryo vuriro.

Icyapa kigaragaza umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, uba tariki icumi z'ukwa cumi ku isi yose, gisa umweru, kirimo amabara y'icyatsi, ubururu, umweru ndetse n'umuhondo.

Umukecuru wasamye w'igikara wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe yambaye amaherena ku matwi yiwe ndetse yambaye n'ishanete mu ijosi bisa nkaho ari kureba ahantu hamwe kandi aho arikureba hari ibintu byamutangaje, inyuma ye hari igikuta gisa umweru ndetse n'ibyatsi by'icyatsi n'umuhondo biri hirya y'ibi.

Abantu icyenda barimo abagore ndetse n'abagabo, hagati yabo harimo umupolisi ushinzwe umutekano, bahagaze mu kigo cya Kacyiru gishinzwe ubuzima, iruhande rwabo hari indabyo zisa icyatsi, inyuma yabo hari ibyapa bibayobora ahantu runaka bashaka kujya.

Umukobwa wicaye ari guseka cyane azamuye akaguru kamwe akaboko kamwe ke kari gukora mu musatsi we w'umukara ndetse akanahagaze kuri ako kaguru ke kamwe kazamuye akandi kaboko karamanuye na ko gakoze kuri ako kuguru ke kamwe kari hasi.

Umugabo uri gutanga ikiganiro agihereza ababyeyi, harimo n'abahetse abana, bicaye ku ntebe, hari imeza imbere yabo ndetse hariho n'ikibaho uwo mugabo ari kwandikaho.

Igipapuro cyo mumabara y'umweru cyanditseho amagambo y'umukara n'icyatsi, yanditseho amagambo agaragaza yuko ari ivuriro rivura indwara zo mu mutwe ariko mu buryo bw'ibiganiro.

Abantu babiri harimo umugabo ndetse n'akana ga bafite utudodo mu ntoki twifashisha dusukura amenyo dukuramo imyanda hagati yayo.

Abaganga babiri umugabo ndetse n'umugore bari kuvura umurwayi umwe uryamye, bari kumurebera ikibazo afite mu menyo bakoresheje ibikoresho byabugenewe.

Ibitaro birimo agatanda k'abarwayi gafite ibara rya move, baryamaho iyo bagiye kubarebera mu kanwa ikibazo kirimo uko kimeze ndetse n'agatebe gasa move umuganga aba yicayeho, hirya y'ako gatanda hariyo imeza isa umweru ndetse n'udutebe dusa umukara n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura amenyo.

Umugabo wicaye imbere y'igitanda cyo kwa muganga, yambaye itaburiya y'umweru y'abaganga, yambaye ishati ya shokora mo imbere ndetse n'ipantaro isa n'ive. Yicaye ku gatebe gafite igitambaro gisa icyatsi, inyuma ye hari igitanda umurwayi aryamaho, gifite amabara asa icyatsi, n'ibindi byuma byifashishwa kwa muganga mu kuvura amenyo.

Umusore uhagaze imbere y'indorerwamo, afite umusatsi w'umukara ndetse na we ubwe ni igikara ari guseka, afite akadodo mu ntoki kifashishwa gakuramo imyanda hagati y'amenyo.

Ibitaro bivura indwara zose z'amenyo, hari intebe eshatu ziteretse muri iyo nyubako nini ikikijwe n'ibirahuri ndetse n'utubati.

Abana benshi bari kwiborosa bakoresheje uburoso bw'amenyo bafite n'udukombe mu ntoki, bari kwamamaza ibyiza byo gukorera isuku y'amenyo mu kanwa ukoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe.

Ifoto y'umwana uri guseka ari kureba imbere, hari umuganga ufashe ibyuma byabugenewe byifashishwa mu kuvura amenyo, amushyize hafi, bisa nkaho agiye gutangira kumuvura.

Abaganga babiri b'abagabo ndetse n'umugore umwe uryamye, wasamye bari kureba ikibazo afite mu kanwa kiwe bakoresheje ibikoresho byabugenewe, harimo ibyo bafite mu ntoki ndetse n'amatoroshi bari kwifashisha ngo barebe mu kanwa ke.

Umukobwa uri gukora isuku y'amenyo, afite akantu mu ntoki kabugenewe, gakuramo imyanda hagati y'amenyo. arasamye ari gukoresha ako kantu mu menyo yiwe, afite akenyeye isume mu mutwe, akaboko kamwe ni ko ari gukoresha gafashe ako kuma kabugenewe.

Umusore mwiza uri guseka yambaye umupira w'umweru, ahagaze imbere y'igishushanyo cy'umuhondo kiri inyuma ye arishimye cyane.

Umwana uryamye ku gitanda cy'abarwayi hari umuganga uhagaze ucisheje akaboko mutwe we w'umuzungu wambaye ga zisa icyatsi ari kureba ikibazo yaba afite mu kanwa akanga ko uwo mwana harimo icyuma kireba niba amenyo ataracukutse.

Ivuriro riri mu mabara y'umweru ririmo ibikoresho byinshi bitandukanye by'ubuvuzi, harimo icyuma kireba ukuntu mu kanwa w'umuntu hameze ndetse hari n'agatebe umuganga aba yicayeho kari hirya ahantu hari imeza.

Umusore ufite akantu mu ntoki k'akagozi kifashishwa mu gukura imyanda hagati y'amenyo, ari guseka, ari kwerekana amenyo yiwe y'umweru.

Abana batoya bafite uburoso mu ntoki ari gukora isuku y'amenyo, umwe muri bo abahagaze imbere afite uburoso busa umuhondo, afite n'imyanda imwe mu miti yifashishwa bozwa amenyo ku munwa, wiwe bose bambaye imyenda isa ubururu.

Umugabo uri guseka ufite akuma mu ntoki gasa ubururu n'umugore umuhagaze iruhande w'umuganga wambaye itaburiya isa umweru, akaboko kamwe kamufashe ku rutugu akandi gafashe kuri ako akaboko uwo musaza arambuye.

Umukecuru uri guseka ufite isahani iriho imbuto mu ntoki ndetse afite n'icyo kurisha izo mbuto mu ntoki, yambaye akantu k'umweru, inyuma yiwe hari akabati.

Umuganga wumukobwa ukiri muto uri gupima umuvuduko w'amaraso w'umugabo wumusaza uri kumwenyura umwicaye imbere ari gukoresha igikoresho cyabugenewe.

Abagore benshi bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe, bari kureba ahantu hamwe bari kuganira, ni mu kigo cy'abantu bashinzwe kwita ku basheshe akanguhe.

Abagore babiri bicaye ahantu hari imeza iteretseho ikirahure cy'amazi, umwe muri bo aracyari muto undi ni umukecuru yambaye amarinete ari kumwenyura, uwo ukiri muto afite akantu mu ntoki k'agashuti iri kumeza.

Abantu bari muri siporo harimo batatu bari imbere babagore basa nkaho bitaruye abandi, impande yabo hari ibyatsi bifite amabara y'icyatsi ndetse n'uturabo dusa umweru.

Umukecuru wicaye ku gatambaro gasa umweru kari mu busitani arasutamye amaguru ararambuye neza, amaboko akoze ku maguru ari muri siporo.

Abantu batatu, umwe muri bo ari hirya arabitaruye, abandi babiri harimo umusaza amaboko yayashyize imbere ku kantu gasa umuhondo, hari umugore umuhagaze imbere wambaye umupira w'ubururu uri kumufasha gukoresha icyo cyuma.

Umukobwa wambaye imyenda y'ubururu uri kumwe n'umugabo ukuze, bari kurebana mu maso uyu mukobwa ni umwe mubantu bashinzwe gufasha abantu bageze mu iz'abukuru.

Akana gatoya kishimye kari guseka, gafite igikoresho cyifashishwa mu gukina imikino yo ku ikoranabuhanga, kari kumwe n'umugabo w'umusaza na we ufite icyo gikoresho mu ntoki, ari ukareba, yambaye amarinete.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bicaye ku meza bafite utuntu tw'umweru mu ntoke, bari kutureba bose bari guseka, umukecuru yambaye amaherena, agapira k'umutuku ndetse n'impeta. Naho umusaza we yambaye udukomo turimo umukara, impeta ndetse n'agapira k'ubururu.

Mu kigo gishinzwe kwita ku bantu basheshe akanguhe, har’umukobwa ukiri muto ufashe ku rutugu umu mama mukuru w'umukecuru ufite akantu mu ntoki kamufasha kugenda. Uwo mukobwa afite envelope mu ntoki, bakikijwe n'ahantu hari ibiti ndetse n'indabyo.

Abagore babiri, umwe muri bo asheshe akanguhe cyane. Ni we uri imbere, inyuma ye hari undi uri kumwenyura, bombi bambaye imipira bari muri siporo.

Abantu batanu bari muri siporo harimo abagore babiri n'abagabo batatu bafite akuma mu ntoki harimo udusa move ndetse n'udusa umuhondo.

Abantu babiri barimo umukecuru umwe bicaye afite akagozi gafite ibara ry' roza mu ntoki we numuganga umuhagaze iruhande ari kumureba yishimye yambaye ama imyenda y'abaganga ifite amabara yumukara ndetse n'akandi k'umweru mu imbere.

Umuganga w'umugore, wambaye imyenda y'abaganga isa ubururu bw'ikirere, ari kumwe n'umugabo, ari kumwigisha kongera guhagarara, uwo mugabo afashe ku byuma bimufasha guhagarara, yambaye umupira w'umweru, ndetse n'ikintu cy'umukandara cy'umweru mu nda, n'ipantaro isa umukara, irimo uturongo tw'umweru.

Mu kigo gishinzwe kwita ku bantu basheshe akanguhe, cyangwa b'abasaza n'abakecuru, hari abantu babiri bahagaze, umwe w'umusaza cyane n'undi musore, n'undi muremure nkawe, umusaza yambaye ingofero ari kumureba agaseka.

Abantu babiri, umugore umwe mukuru wicaye ari guseka, hejuru ye hahagaze undi mukobwa umufashe ku rutugu nawe ari guseka yishimye cyane.

Abantu babiri bari kwifotoza harimo umugabo umwe w'umusaza ufite n'imvi nyinshi ari kumwenyura ari kumwe n'undi mukobwa uri guseka wambaye amarinete asa iroza bombi bambaye amakote inyuma y'imipira.

Umugabo uryamye ku gitanda cy'ibitaro ndetse n'umugore uhagaze hejuru yiwe w'umuganga hari ibyuma byinshi bimukikije biri kureba ukuntu umutima wiwe uri gute.

Abantu babiri harimo umukecuru ndetse n'undi mukobwa ukiri mutoya bose bari guseka bari kwifotoza inyuma yabo hari imeza ndetse n'intebe z'umukara nyinshi.

Abagore benshi bari gusoroma ikawa, barishimye bari guseka, umwe muri bo ari kureba imbere, hari n'undi umuri iruhande, abandi bari inyuma yabo.

Umuryango mugari wishimye urimo umugabo n'umugore we ndetse n'umwana we, umwe uri kumwe n'umugore we n'umwuzukuru w'abo. Barishimye cyane bari guseka.

Abantu babiri umugabo aricaye ari kurya imbere yiwe hari imbuto nyinshi zitandukanye harimo pome, imineke ndetse n'ibikombe n'iyo n'amasahane arimo izo mbuto, hari n'umugore uhagaze uri kumusukira cyo kunywa mu kirahure.

Abantu babiri umugore ndetse n'umugabo bafashe amashashi abiri ari mu mabara y'icyatsi agaragaza ko hajyamo imyanda ibora ndetse n'andi abiri ari mu mashashi asa ubururu agaragaza yuko ajyamo imyanda itabora n'icyapa kiri ihande rwabo kigaragaza yuko tugomba kugira isuku kandi tukajugunya imyanda ahantu igomba kuba iri.

Icyapa kigaragaza ko urukingo rw'icyorezo cyitwa manki pogisi rwabonetse, ubu ngubu buri muntu wese ashobora kurubona, gifashwe n'umugabo w'umuzungu wambaye umupira w'umukara.

Ifoto iriho inyubako, yitwa konveshoni senta iba i Kigali mu Rwanda, n'amagambo yanditseho agaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya diyabete ku isi yose, handitseho amagambo hasi agaragaza ko tugomba gukwirakwiza, inkuru yo kugira ngo abantu bose barwaye diyabete babone ubufasha bakeneye.

Abagore benshi n'abagabo bahagaze imbere y'igipapuro kinini kiri inyuma ya bo kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, bashyize amaboko hejuru bifotoza bishimiye amahugurwa bavuyemo.

Abaganga babiri bipfutse umubiri wose ndetse no mu maso bari kuvura umusaza wasamye wambaye ingofero yubururu n'imyenda y'umukara yegamye ku cyuma bari kureba mukanwa hiwe bakoresheje icyuma cyabugenewe.

Abagore bane bose bateruye uduhinja twabo mu ntoki, bicaye ahantu hamwe bari kuganira bishimye, umwe muri bo ari kureba umwana we yicaye hirya.

Abaganga bipfutse ahantu hose bambaye imyenda y'amashashi y'imyeru arimo n'uturongongo tw'ubururu, hirya yabo Hari abarwayi baryamye bari ahantu hari amarido asa ubururu, ndetse n'inzitiramibu zisa umweru, hari n'intebe ndetse n'utumeza tubakikije.

Ibitaro biriho igitanda gishashe amashuka y'umweru cyo kuryamaho, hari ibintu byinshi byifashishwa kwa muganga hari televiziyo yifashishwa n'umuganga areba ikibazo umurwayi afite hari ndetse n'ikirahure kiri muri icyo cyumba n'ibitanda bibiri,

Abantu bane bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya gishweru harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri n'undi mugore umwe ubi bitaruye ubusa nkaho ari kumanuka aza abasanga.

Inyubako igeretse gatatu nziza nini cyane isiza amarange asa umweru, ifite ibirahure ndetse ifite n'akantu gasa shokora kari hagati mu nyubako, hari abantu benshi bari hejuru ruguru yayo gatoya.

Umuryango usize amarangi y'umweru ndetse n'umukara, winjira mu bitaro biriho udutebe ndetse n'ibindi bikoresho, byifashishwa kwa muganga.

Inyubako y'ivuriro yitwa "Mirmont Outpatient Center", ivurirwamo abarwayi bivuza bataha, ifite amarangi y'umweru, yubakishijwe amatafari ahiye asa oranje.

Icyumba kirimo ibitanda by'abarwayi ndetse n'icyuma gipima umurwayi ukuntu ameze, hari ibitanda bibiri ndetse n'utundi tuntu twinshi tw'utwuma tuzengurutse ibyo bitanda.

Umukecuru uri kumwe n'umuganga w'umugabo, uwo muganga yambaye imyenda y'ubururu afite akuma gapima imiterere y'umutima ku rutugu rwe, uwo mukecuru yambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe ndetse n'ikanzu y'igitenge irimo amabara, bari kuganira.

Abantu benshi batonze umurongo bagana ahantu hari umuganga imbere yabo hari intebe zo kwicaramo hari umurwayi umwe uri imbere ya muganga bicaye mu gatebe k'abantu bafite ubumuga.

Ivuriro ry'amaso ririho intebe iri hirya, umurwayi aba yicayeho bari kumusuzuma amaso yiwe ikibazo afite ndetse n'imeza iriho intebe ebyiri zirebana, imwe umurwayi yicaraho ndetse n'indi muganga yicaraho, kuri iyo meza hariho ibindi bikoresho byinshi bitandukanye by'umuganga.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere gikikijwe n'ubusitani burimo indabo z'umuhondo, ndetse n'icyatsi, hari umuntu umwe uhagaze inyuma y'iyo nyubako.

Umugore uryamye ku gitanda gishashishije ishuka y'umweru, yoroshe ishuka yindi y'umweru ndetse n'igikuvurori cy'icyatsi, hirya ye hariyo ibyuma bibiri bifite n'ibindi bigendana na byo bikoreshwa mu buvuzi.

Umuganga uri guseka, ufite ku rutugu icyuma gipima umutima, afite n'akandi kantu mu ntoki karimo impapuro, n'undi mwana uhagaze hirya we w'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu n'abandi batoya bicaye hasi, ahantu hari inzu ya nyakatsi.

Umugore umwe uryamye ku gitanda cyo kwa muganga n'umuganga umwe w'umugore wambaye amarinete, umuhagaze hejuru ari kumuvura n'undi muganga uhagaze hirya yiwe arikureba ibiri gukorerwaho byose.

Icyumba kirimo icyuma gipima umugore utwite kugira ngo kirebe ukuntu umwana ameze mu nda ndetse n'izindi nyama zose zo munda kureba ukuntu zimeze, igitanda aba aryamyeho ndetse n'imitako iri mu cyumba.

Umuganga uri ahantu hari icyuma gikoreshwa bacishamo umurwayi kugira ngo bamenye ikibazo afite mu mubiri ndetse n'agatanda kariho igitambaro cy'umweru kihashasha.

Inyubako y'ibitaro, hirya yayo hari ubusitani bunini, hari n'umugabo uhahagaze wambaye imyenda y'umuhondo, imbere yayo hari umwana wicaye mu kagare gatwara abantu bafite ubumuga.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti buzwi nka pharmacy mu ndimi z'amahanga, harimo imiti igiye itandukanye iteretse mu tubati ndetse no ku meza.

Umuganga wambaye umupira w'umweru uri gupima umutima w'undi mugabo umwicaye imbere, akoresheje icyuma cyabugenewe. Inyuma yabo hari ibishinzwe kuzimya umuriro ndetse n'icyapa kirekire cyanditseho irembo.

Inyubako nyinshi cyane ziri ahantu hari ubusitani ndetse n'abantu bahagaze imbere y'izo nyubako busa nk'aho bwije hari kwaka amatara.

Ivuriro rivurirwamo abana bakiri batoya ryanditseho pediatric center, hariho icyapa cyo guhagarara kigaragaza ko iryo vuriro rifunze.

Inyubako yo kwa muganga, igaragaza mo imbere, ahantu hari ahantu umuntu yakirira abarwayi, hari intebe hirya abantu baje kwivuza baba bicayeho, hari n'amatara abonesha muri iyi nyubako.

Abantu benshi bicaye bareba mu cyeyerekezo kimwe bambaye udupfukamunwa bose, hari umugabo umwe uhagaze imbere n'abandi benshi bari inyuma y'uwo mugabo.

Abaganga bari kumwe n'abarwayi harimo umugore wicaye mu gatebe k'abantu bafite ubumuga bagenda basunika, hari imeza iteretseho imiti myinshi.

Umugore wambaye imyenda y'icyatsi ari gutembera mu bitaro hari ibikuta bisize amabara asa ubururu bitandukanyije burigitanda hari nibitanda byinshi biri ahongaho.

Ahantu bacururiza amarinete yifashishwa mu gihe umuntu atari kureba neza, imbere ahantu binjirira hari imeza iriho udutebe tubiri abarwayi batekererezaho.

Amazu menshi ari ahantu hamwe hari ubusitani bwinshi bwiza burimo ibiti bisa umutuku n'abantu bicaye mu busitani ndetse n'abandi bicaye hirya y'ayo mazu.

Ivuriro ry'amaso, hari igishushanyo kiriho utuntu bagenda bifashisha bubaka kugira ngo igishushanyo cy'ijisho cyuzure, hejuru hari udupirizo turi mu mababara y'umweru ndetse n'ubururu, hari n'intebe abarwayi baba bicayeho mu gihe barindiriye guhura na muganga.

Ibitaro biriho utubati dusa umuhondo ibikuta bisa umweru, hariho igitanda cy'umukara gifite utuntu umubyeyi ugiye gusunika umwana ashyiraho amaguru, ndetse n'icyuma kireba ukuntu umwana ameze.

Abanyeshuri bari muri laboratwari ifite amabara y'umweru, irimo ibyuma bikoreshwa muri laboratwari ndetse n'utumeza, abanyeshuri bambaye amataburiya y'imyeru.

Abantu benshi bicaye imbere ya laboratwari y'ibitaro, hanze ya laboratwaire hari intebe yicaweho n'abantu hariacaye ku gasima hasi imbere yubusitani.

Icyapa kigaragaza ahantu bavurira muri Huye, hitwa Huye Isange n'inyubako nyinshi ziri hepfo y'icyo cyapa.

Ibitaro bikuru bya karere Ka Nyarugenge, ni inyubako ndende nziza igeretse inshuro nyinshi, imbere yaho hari abaganga bambaye imyenda y'umweru izengurutswe n'ubusitani.

Abantu bane bahagaze ahantu hari ibyuma byifashishwa mu kuvura abantu bari kureba ahantu hamwe.

Inzu y'ibitaro irimo ibitanda byinshi cyane, biryamaho abarwayi ndetse na televiziyo baba bareberaho ibintu bitandukanye.

Inyubako y'ubuvuzi ifite imiryango myinshi cyane, iy'ahantu ushobora kwinjira ugiye kwivuza indwara zigiye zitandukanye.

Ibitaro byiganjemo ibara ry'umweru, hari imeza y'abaforomokazi bakiriraho abarwayi baje babagana hari n'byumba bibiri abo barwayi binjiramo iyo bageze kwa muganga.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga n'igitanda umurwayi aryamaho mu gihe bagiye kumucisha mu cyuma n'agatebe umuganga ugiye kumucisha mu cyuma aba yicayeho, ndetse n'ibindi byuma byifashishwa muri icyo gikorwa bifashe ku gikuta.

Inzu y'ikigo nderabuzima cya Shagasha, imbere yayo hicayeho abantu batatu, abantu babiri bakuru ndetse n'umwana muto ubicayemo hagati, iyo nzu ifite amadirishya ndetse n'imiryango bisa umukara n'amabati y'ubururu.

Ikigo cyitwa Caraes freres de la charite, gishinzwe kwakira abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe, iki kigo ni icy'abafurere bitwa ba charite.

Ibitanda bitatu bishashishijweho amashuka y'icyatsi byo kwa muganga, hariho n'ibitandukanya buri gitanda bisa ubururu by'amarido ndetse nta murwayi n'umwe uharyamye.

Ahantu hari ubusitani bwinshi butandukanye harimo n'inyubako, harimo n'ibigega by'amazi bisa umukara ndetse n'ibyicungo abana bakoresha.

Ibitaro birimo abarwayi babiri ndetse n'ibitanda bine n'inzitiramibu eshatu, hariho amadirishya abiri ariho amarido asa oranje, hari akameza kandi kari hirya gateretseho teremusi.

Umunyonzi ufite umugenzi inyuma ye w'umukobwa bahagaze imbere y'ikigo gishinzwe ubuzima cy'Igisenyi, muri icyo kigo mo imbere harimo abarwayi benshi bahagaze imbere y'umuryango.

Umuntu uhagaze yambaye insimburangingo ndetse n'ubwoko butatu butandukanye bw'insimburangingo z'ukuguru ushobora guhabwa.

Umuntu warambuye akaboko wafashe ikintu gisa ubururu agishyira ku kaboko kiwe ndetse agifatisha n'akandi kaboko, uwo muntu kandi yambaye ishati isa umweru.

Umugabo ufite icupa risa ubururu ririmo amazi yambaye ekuteri mumatwi yambaye umupira ufite ibara rijya gusa umukara ari kumva indirimbo ari kureba ahantu hamwe.

Igipapuro kiriho umuntu uri kwirukanka ushushanyije. Imbere yanditse amagambo agaragaza ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho. Hariho ko bigabanya umuvuduko w'amaraso bigatuma ugira ubuzima bwiza, bikarwanya steresi kandi bigatuma uhora ufite ubuzima buzira umuze.

Umusore uri gukora siporo zo kurambura amaboko ahagaze areba inyuma akaboko kamwe karamanuye gakoze mu mugongo akandi kararambuye gafashe kuri uko kuboko gufashe mu mugongo.

Umugabo wapfukamishije ivi rimwe irindi riri hejuru, yambaye imyenda y'umukara, ari kureba imbere, ari gukora siporo kuri tapi isa umukara; inyuma ye hari igikuta gisa umweru.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, arapfukamye arambuye amaboko imbere cyane. ari mu imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari igitanda.

Umugabo uryamye ku gitanda cyo kwa muganga wambaye agapira k'umweru ndetse n'agakabutura k'icyatsi azamuye akaguru kamwe yambaye urukweta rw'umweru n'umukara, ari umuganga we kumuvura wambaye agapira k'umweru ndetse yitaburiya y'ubururu ufite icyuma gipima uburyo umutima uri gutera mu ijosi ryiwe.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga mu nsimburangingo z'umuntu wagize ikibazo mu ngingo ziwe harimo iby'amaguru ndetse n'iby'urutirigongo n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umugabo umwe ufashe umupira wo gukina mu ntoki, hirya ye hari undi mugore w'umuzungu, ufashe akuma ko kugenderaho mu ntoki, ari kuza amwegera.

Abantu bane babaganga bambaye imyenda isa ubururu n'utuntu tw'icyatsi mu mutwe hari n'undi wambaye imyenda y'icyatsi ubitaruye hirya n'ibyuma biri iruhande rw'abo bisa nk'aho bari ahantu babagira abarwayi.

Umuganga ufite igipapuro imbere ndetse n'ikaramu mu ntoki, hirya ye hari icyuma cyifashishwa gipima umuvuduko w'umutima, hari imbuto ziteretse aho hasi harimo pome n'icupa ry'amazi ndetse n'utundi tuntu turimo amabara y'ubururu n'umutuku.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye akantu k'icyatsi hejuru ndetse n'agakabutura k'ubururu, afite ibyuma byifashishwa mu myitozo ngororamubiri mu ntoki asa naho ari kwiruka.

Umukobwa wicaye ari muri siporo, yambaye ekuteri ziri kumfasha kumva imiziki, hiryaye hateretse icupa ryamazi, ku kaboko ke hariho icyuma gipima umuvuduko wahantu yirukanse.

Abantu bari kwirukanka mu masiganwa azwi nka marato, bane, umwe muri bo ari imbere yabo cyane, yabasize. Bambaye inkweto zifunze, amakabutura ndetse n'imipira y'amaboko maremare bose.

Umuntu wavunitse amaguru bamwambitse bande isa umweru, bari kumpfukisha n'akandi kantu gasa shokora, umugabo uri kumuvura yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umutuku, hirya yiwe hariyo n'abandi barwayi n'imbago abo barwayi bakoresha bagenda.

Umugore uri muri siporo arahagaze yambaye utuntu dusa ubururu afashe akaguru kamwe n'amaboko ye yombi akandi kamwe gateretse hasi ari ahantu hari inyanja.

Umugabo wikoze ku mutima, ufite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku, n'umuhondo ku kaboko kiwe, ari ahantu hari igipapuro gisa ubururu.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo aga karito k'umutuku kariho ikimenyetso cy'umusaraba kaba kabitse ibyo bikoresho byose, ndetse n'indi miti ku ruhande n'ibipfuko byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze n'ibinini.

Umusore wambaye ekuteri zimufasha kumva imiziki, uri kunywa amazi araramye, afite icupa rifite umufuniko w'ubururu mu ntoki ze, ni ryo ari kwifashisha anywa amazi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, ifite akarongo k'umweru mu ruhande, arasutamye, asa nkaho hari ikintu afatiye hejuru y'umutwe we, imbere ye hahagaze undi mugabo w'umuzungu, bari kuri sitade, kuri tapi isa icyatsi, hariho n'ibindi bikoresho bya siporo hirya yaho.

Umusore wari gukora siporo ahagarikishije akaguru kamwe hasi akandi kari hejuru y'ibiti bimukikije ndetse n'ukuboko kwiwe kumwe gufashe ku kirenge kibi kiri kuri ibyo biti hejuru yambaye imyenda yumukara ya siporo.

Ikirango cy'umusaraba kiri mu ibara ry'umutuku kigaragaza umusaraba utukura mu Rwanda ndetse hariho n'amagambo yanditse aho avuga ko ari ugutoza abantu uburyo bashobora gukoresha ubuvuzi bw'ibanze.

Zimwe mu mbuto n'imboga ushobora kwifashisha mu gihe uvuye muri siporo kugirango ukomeze kugira ubuzima bwiza n'umugabo umwe uri kwirukanka ushushanyije iruhande rw'izo mbuto.

Umwana w'umukobwa uhagaze afite icupa ry'amazi rifite umufuniko w'ubururu mu ntoki ari kunywa amazi afite n'isume y'umweru iri ku bitugu byiwe yambaye agasengeri karimo amabara y'ubururu, icyatsi, ndetse n'umweru.

Imbuto ziri mu bwoko butandukanye, n'imboga z'ubwoko butandukanye, ifi, amagi foromaje, ndetse n'ibyuma byifashishwa muri siporo.

Ibyuma byifashishwa muri siporo harimo icyo icyo bafata mu ntoki bakakizamura bakimanura, cyongera ingano y'agatuza harimo igipima ibiro makumyabiri hariho n'ibindi byuma byifashishwa muri siporo.

Umukobwa uri muri siporo arasutamye amanuye amaboko afashe amano, yambaye ipantaro isa umweru ndetse n'akantu ko hejuru gasa umuhondo.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga hari n'icyuma umurwayi acamo iyo bashaka kureba ikibazo afite mu mubiri wose, n'ibindi bikoresho bindi byifashishwa muri icyo gikorwa biri hirya biteretse mu kabati.

Abagabo babiri umwe w'igikara uryamye ku gatanda bakoreraho siporo, n'undi w'umuzungu uhagaze hejuru yiwe, akaboko kiwe gafashe ku gitanda, uwo wundi aryamyeho, inyuma yabo hari ibindi bikoresho byinshi bikoreshwa muri siporo.

Umusore uraramye areba hejuru afite icupa risa n'ubururu, ari kunywa amazi afatishije ukuboko kwiwe kw'iburyo ari kureba inyuma.

Umugabo uri muri siporo akaguru kamwe kari imbere agafatisheho amaboko yombi, akandi kararambuye kari inyuma yambaye ekuteri ziri kumfasha kumva imiziki.

Imiti igabanya uburibwe, iri mu macupa atatu asa umweru ariho icyapa cyanditse amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo n'umutuku n'ubururu.

Umusore wicaye hasi wambaye agakomo gasa icyatsi ndetse n'isengeri isa umukara afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kunywa ayo mazi, yicaye ahantu hamwe yegamiye igiti.

Icyumba kinini cyo kwa muganga babagiramo, hariho igitanda gishashishijwe amashuka asa ubururu, hejuru hariho ibitara binini cyane byifashishwa bareba umurwayi neza, ndetse n'ibindi byuma byinshi bizengurutse icyo gitanda.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaboko ke kamwe karamanuye, gafashe mu mugongo, akandi gafashe kuri ako kaboko, yambaye isaha ndetse n'akuma kamufasha kureba umuvuduko w'ahantu yirukanse ndetse na kuteri zimufasha kumva indirimbo.

Umubyeyi wicaye ku buriri buri hasi ari kureba umwana we agaseka, imbere ye hari akana gatoya kambaye agakanzu kari kureba imbere kari guseka kishimye.

Umugore umwe uri muri siporo arasutamye amaboko y'iwe afashe ku mavi, umutwe uri kureba hasi, ibirenge bifashe hasi ku butaka, yambaye isaha ku kuboko ameze nk'umuntu umaze kwirukanka akananirwa akaba ari kuruhuka.

Umuganga uhagaze wambaye itabiriya y'umweru, afashe ku kaguru k'umugore, gusa nk'aho kuzamuye, uwo mugore aryamye yambaye imyenda yo kujyana muri siporo.

Abantu babiri barimo umuganga umwe uhagaze wambaye imyenda y'abaganga isa ubururu n'umusore umwe wavunikiye muri siporo bicaye ku buriri bwo kwa muganga akaguru kamwe kambaye urukweto n'isogisi ry'umweru akandi kakomeretse hari umuganga ari kugapfuka.

Ibizingo bitatu biri mu mabara atatu atandukanye harimo: iroza, umukara, ndetse n'ubururu n'ukuboko gufunze igipfunsi kwambaye rimwe muri iryo bara risa iroza, ndetse n'ikindi kiroza kibi cyitaruye ibindi kiryamye hasi gisa nkaho kirambuye.

Ibikoresho by'ubuvuzi bw'ibanze bitetse mu byatsi hari abantu batatu babyicaye imbere, hagati y'ibyo bikoresho bifite ibara ry'umutuku hateretsemo irindi cupa rifite ibara ry'umweru ryanditse n'amagambo y'umukara.

Imeza iriho ibintu byinshi, hariho imidari, hariho ibinini bisa umweru n'umutuku, hariho icupa ry'amazi risa ubururu, hariho imbuto zitandukanye, imineke, amaronji, inanasi n'izindi mbuto nyinshi.

Umugabo wifashe ku kaboko; akaboko ke kaziziritseho igitambaro gisa ubururu kararambuye neza umugabo yambaye imppiru z'umweruru ndetse n'ipantaro isa ubururu.

Umukobwa uri muri siporo, yicaye ahantu hari ibyatsi, yambaye akantu gasa oranje hejuru ndetse n'ikabutura isa ubururu irimo uturongo tw'umweru, arunamye amaboko yiwe ari ku birenge.

Igipapuro gishushanyijeho umwana umeze nk'uwirukanka ukoreshejwe ibinini, hariho urushinge hirya ye ndetse handitseho amagambo yo kwamamaza imiti no gukora siporo.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore bari muri siporo bari kwirukanka buri wese afite icupa ry'amazi mu ntoki, bambaye udukabutura tw'umukara umugore yambaye isengeri y'ubururu, umugabo yambaye isengeri ifite ibara risa kake azengurutswe n'ibyatsi ahantu hari imisozi.

Imiti y'abana yongera intungamubiri, iri mu gakarito gafite amabara y'umweru, ubururu umuhondo ndetse n'umutuku, ni ikinini banaga mu mazi.

Umuti ukozwe mu gikakarubamba wifashishwa mu gusukura amenyo ufashwe n'umuntu umwe n'undi muntu uri ku ruhande washyizeho uburoso bwifashishwa mu gusukura amenyo.

Imiti ya kinyarwanda iri mu macupa harimo asa shokora, icyatsi ndetse n'umukara handitseho amagambo ari ku cyapa cy'icyatsi amagambo arasa umukara, ubururu, umweru ndetse n'umutuku.

Zimwe mu mbuto, uru rwitwa ipapayi, hari imwe ikiri yose iteretse hasi, hari n'indi yasatuwemo kabiri, iri kugaragaza imbuto zo mu ipapayi mo imbere zisa umukara, yegamye kuri iyo yindi nini iri hasi.

Imiti ya kinyarwanda y'igikakarubamba ndetse n'ahantu ushobora kuyikura hitwa ''forever'' mu cyongereza mu kinyarwanda ni ''iteka ryose'' hariho akarango k'inuma ihagaze kuri kimwe mu bintu byifashishwa mu mivurire gakondo.

Ibinini biri ku kiyiko ndetse n'indi miti iri mu gakombe n'indabo ziri mu gikombe ndetse zirimo n'amazi n'ibindi binini bisa nk'aho byatakaye ku meza.

Ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti gakondo biri mu byiciro bibiri kandi byose bisa icyatsi hariho n'akandi kamwe kameze nk'ururabo.

Ni icyapa kiriho imitie itandukanye ivura ibintu ku mubiri w'umuntu bitandukanye harimo umugongo ijosi urutugu akaboko ndetse n'ahandi hantu hatanu.

Ibyatsi biri hasi byifashishwa mu buvuzi hagati yabyo hateretsemo akantu gasa n'umukara gafite n'umuhini basekurisha, nawo usa umukara bashyiramo ibyo byatsi bakabisekura kugira bibashe gukora umuti umeze neza.

Imiti myinshi ikozwe mu gikakarubamba harimo ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo na shokora n'ibibabi bisa icyatsi biri hirya bishushanyije kuri icyo gipapuro kiriho iyo miti.

Amacupa atatu arimo amabara yiganjemo umweru, harimo abiri yandikishijwe ibara ry'ubururu, ndetse n'irindi rimwe riri mo hagati ryandikishijwe amabara y'umutuku, n'utuntu dutatu tugiye dusumbana ayo macupa ateretseho.

Kimwe mu byatsi byifashishwa mu kuvura no gukora imiti gakondo. Gifite amababi umunani kandi iruhande rwaho hari n'ibindi byatsi bimeze nkacyo biri kuhakurira.

Imiti gakondo yikigo cyitwa ariyanse gorobo, ni imiti iri mu dukarito dutatu dutetse ahantu hasi tugaragaza ko ushobora kuyibona mu masaha makumyabiri n'ane mu minsi irindwi.

Umuti ukoreshwa mu kwica imyanda yo mu ntoki, uri mu gacupa katagira ibara gapfundikishijwe umufuniko w'umweru, hariho igipapuro cyanditseho izina ry'uruganda rukora uwo muti ndetse n'akanyoni kari mu ibara ry'icyatsi.

Imwe mu miti icuruzwa n'uruganda rwitwa Ariyanse, harimo umuti uhereza umwana mu cyayi ndetse n'indi miti itandukanye.

Imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo ni amacupa ane maremare n'utundi tubiri dutoya ndetse n'igikarito kirimo indi miti byose biteretse hasi.

Ahantu hari ibiti byinshi bitandukanye harimo igiti kirekire cyane gisumba ibindi byose ndetse n'ibindi biti bitoya biri mu mabara arimo umutuku wijimye umuhondo ndetse n'icyatsi.

Amacupa abiri ariho igipapuro gisa umuhondo, arimo umuti w'igikakarubamba hariho n'ikirahure kirimo umutobe w'umweru ndetse n'ibindi bikakarubamba biri hasi bitatu bifite ibara ry'icyatsi n'umweru.

Amacupa atatu abiri ateretse ku meza ndetse n'irindi risa umuhondo riri mu kirere, iyo meza nayo isu umuhondo. Aya macupa arimo imiti ishinzwe kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Ibyatsi byinshi bitandukanye, bivura indwara zitandukanye, harimo ibisa icyatsi ndetse n'ibindi bisa umuhondo biri mu byiciro bine bitandukanye.

Imiti y'igikakarubamba myinshi cyane iri mu macupa atandukanye, iteretse ku meza inyuma yayo hari igitambaro gifite amabara menshi atandukanye.

Igiti gifite amababi menshi y'icyatsi gikikijwe n'ibindi biti bisa umutuku birimo n'amabara y'umuhondo biri ahantu hari igicu cy'umweru gikeye cyane.

Umugabo wambaye ipantaro yijimye ndetse n'umupira w'icyatsi urimo amabara y'umuhondo ku ijosi, ufite kimwe mu bihingwa byifashishwa mu kuvura, mu gukora imiti gakondo.

Imiti myinshi gakondo iri mu kabati iri mu bintu bitandukanye harimo amacupa maremare afite ibara rya shokora n'andi magufiya afite imifuniko y'icyatsi, iya shokora ndetse n'iy'umweru n'abantu bari hirya y'ako kabati gateretsemo imiti abo bantu ni babiri.

Ibimera by'icyatsi biri biteye mu kantu karimo ibitaka n'amashashi y'umukara inyuma niho ibyo bimera biri gu kurira.

Indabo zitandukanye ziteyemo imbuto nyinshi, handitseho amagambo ngo ibihingwa byifashishwa mu miti biri mu tuvaze turi mu mabara atandukanye.

Umuganga uri mu bikarito byinshi by'imiti yongera amaraso, ndetse imwe muri yo bayikuye mu gikarito iteretse hasi ariko itari mu gikarito.

Kimwe mu bihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo, kiri mu ibara ry'icyatsi, ni kirekire ariko munsi yacyo harimo n'ibindi byatsi byinshi.

Umugore uri ahantu hari ibyatsi byinshi uri kugenda ukuraho akatsi kamwe kamwe, umugore w'igikara asa nkaho ari gufata imiti.

Umugore uri kureba hirya, n'undi uri inyuma y'iwe uri kugenda, umuteye umugongo, n'undi mugabo bahagaze ahantu hari imeza iteretseho imiti myinshi cyane gakondo.

Umuti gakondo wifashishwa mu kuvura umuntu ufite ikibazo cyo kutareba neza, wanditse n'amagambo y'ubururu, uri mu gacupa gasa umweru ndetse n'ifoto y'inyuma nayo iri mu mweru.